Urutoki iyo rufumbiwe neza rutanga umusaruro. Aha ngaha rero biba bigomba gukorwa neza tukaba twakoresha ifumbire y'imborera kuko akenshi ni yo ikunze kugira umusaruro ugaragara. Aha ngaha rero tugomba no kuzicira, tukazisharira, ku buryo usanga urutoki rumeze neza nta kantu k'akajagari kagaragaramo.

Intoryi n'amashu, ni ibihingwa bikenerwa kwitabwaho cyane, aha ngaha rero tugomba kubyuhira, tukabitera imiti, mu rwego rwo kwica udusimba dushobora kuza tukangiza amababi yabyo, ibi ngibi iyo bikozwe rero, umusaruro uriyongera n'abantu babikora bakagenda babona amafaranga.

Abaturage bagiye batozwa uburyo bw'ubuhinzi bugiye butandukanye. Aha ngaha harimo nko kubaka uturima tw'igikoni, aho buri muturage wese ategetswe kuba agafite mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi, kandi no mu bana bakamenya ko ibintu bitagomba kwangizwa cyangwa se ngo bikorwe n'abantu bakuru.

Ubucuruzi bw'imiti y'amatungo ni ingenzi cyane, ubukora akunze kwinjiza amafaranga, aha ngaha akenshi dukunze kubona babikoresha bimwe mu bikoresho nk'ubudomoro cyangwa se uducupa dutoya, ibi ngibi rero bikunze kwitabwaho cyane mu rwego Mpuzamahanga.

Guhinga ibigori. Bikunze kuba biri mu nce z'Iburasirazuba ndetse no mu majyepfo. Aha ngaha rero kino gihingwa gikunze gutanga umusaruro, kuko nk'amababi yabyo avamo n'ifumbire. Harimo n'abavamo ibiryo by'amatungo nk'inka n'ihene, ndetse n'andi matungo magufi agiye atandukanye nk'intama.

Iyo turimo turuhira imyaka yacu, bituma umusaruro wiyongera ndetse no guhinga mu buryo bugezweho kandi bwa kijyambere, bigenda bidufasha cyane. Aha hanga dushobora gukoresha amapompo twuhira imyaka cyangwa se dutera imiti, tugakoresha na zimwe mu mashini za kijyambere nka zimwe zikoreshwa mu guhinga.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje guteza imbere rubanda, aha ngaha ibi bihingwa rero bikunze gutanga umusaruro utubutse ku babihinga ndetse aha nagaha twavugamo nk'ibiryo by'amatungo kuko amababi yayo burya ntabwo ari ngombwa ko yangizwa, ashobora gukoreshwa mu biribwa by'amatungo, akenshi rero dukunze no kuyasasiza insina, tukabibonamo ko akunze gutangamo ifumbire kandi nyinshi.

Ibyapa bigiye bitandukanye bikunze gushyirwa ahantu hacururizwa imiti y'amatungo. Ibi ngibi rero bituma abahinzi batayoba mu gihe bakeneye n'ibikoresho bakaba babibona ku buryo buboroheye. Agace buno buhinzi bukorerwamo na ho hakunze kuboneka umusaruro mwinshi cyane kuko ibihingwa biba byaritaweho ku buryo buhagije.

Ifumbire mvaruganda na yo igira umusaruro cyane. Ishyirwa mu myaka maze ibimera bigakura neza bigatanga umusaruro utubutse. Akenshi rero ntabwo ubuziranenge bwayo, bukunze kwizerwa n'abahinzi. Usanga abenshi bavuga ko iy'imborera cyangwa se ituruka ku matungo ari yo nziza.

Ifumbire mvaruganda ntabwo abantu benshi bakunze kuyimenya, harimo n'abayisuzugura bavuga ko yangiza ubutaka bityo bigasaba ko umuntu uyikoresha agomba guhabwa ibisobanuro bihagije, aha ngaha rero harasabwa ubukangurambaga bwimbitse kugira ngo abantu bamenye agaciro kayo.

Ibisheke ni ibihingwa bikunze guterwa ahantu mu gishanga cyangwa se no mu ngo z'abantu. Akenshi rero bikunze gutanga isukari, aho usanga abantu benshi aricyo bagenda bakurikira, nko ku bantu barwaye indwara zituruka ku mirire mibi ndetse n'umubyibuho ukabije, ibisheke birafasha cyane.

Umuhinzi agomba kuba afite isuka n'umuhoro murwego rwo kwiteza imbere, ibingibi rero bimufasha mu gutera imyaka ikeneye kufirwa akayufira ndetse n'ikeneye kubagarwa ikaba yabagarurwa, ibingibi rero byongera umusaruro ku gihugu ndetse no ku muntu ukora ubu buhinzi. Leta rero yagiye ishoramo ingengo y'imari nini cyane murwego rwo kubateza imbere ndetse no kubashakira amasoko.

Ibitoki ni bumwe mu buhinzi bwateje imbere rubanda. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo ni igice cy'abantu runaka bagomba kubikora. Ushobora no kuba uri mu rugo iwawe ukahatera nk'insina ebyiri, kandi burya zirororoka cyane zigakura, maze nawe ukabasha guhangana n'ikibazo cy'inzara, ndetse rukanakugoboka mu gihe ukeneye nk'ibindi bibazo byo gukemura.

Abahinzi bakunze kwizihirwa iyo babonye ibimera bitayeho bimaze gukora cyangwa se bitanga umusaruro, aha ngaha twavuga nk'ahantu bakunze kurembeka imyaka, aho usanga barembekamo imbuto, imboga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibi ngibi byongera umusaruro ndetse no mu guhashya ikibazo cy'inzara.

Amashu akunze kugira akamaro gatandukanye, araribwa, ibibabi byayo ni ibiryo by'amatungo, ntabwo umuhinzi rero agomba kugira na kimwe yangiza kuri yo, kuko usanga abantu benshi batarasobanukirwa n'ibi ngibi, ariko ubushakashatsi buba bugomba gukorwa kandi bugatangazwa hakiri kare.

Ibihingwa bihinzwe ku murongo, bikunze gutanga umusaruro cyane. Mu gihe k'imvura amazi agenda ageramo neza, akagera mu mizi ku buryo usanga gikura neza kandi gishishe. Aha ngaha twavuga urugero nk'uburo ndetse n'amasaka ni yo bikunze guterwa muri ubwo buryo.

Ubutaka busa neza buteyemo ibyatsi bikeya n'ibimera kubwitaho rero bituma umusaruro wiyongera umuhinzi akabona ibimutunga n'inyamaswa zikagenda zibona ibiryo aha ngaha twavugamo nk'inka n'ihene ndetse n'ibindi bintu byose by'indyarwatsi aha ngaha rero tugomba kwita ku butaka.

Hari uburyo bwinshi bwo guteramo insina, turabanza tukazitema, ibice byo hejuru bigasa nk'ibiva hagasigara igice cyo hasi dukunze kwita igitsinsi, aha ngaha rero tugenda tukagishyira mu butaka aho tuba twacukuye umwobo munini, maze insina ikagenda ikura gake gake kandi ibona amazi ahagije.

Amacupa apfundikiye arimo imiti igihe itandukanye, aha ngaha tubonamo nk'iy'inyamaswa ndetse n'ibimera, kugira rero akazi nk'aka ngaka ko gutunganya imiti nabyo bisaba ubundi bumenyi buhanitse ndetse n'ubushakashatsi, aho usanga abantu babikora bagomba kuba bafite icyemezo kibibemerera.

Imiti y'amatungo akenshi ikunze kudufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Ntabwo itungo ryarinda riremba kandi uzi ahantu wakura imiti yaryo. Ibi ngibi rero bituma umusaruro wiyongera ku bahinzi, ku gihugu, ndetse n'isi muri rusange. Inka ifite ubuzima bwiza nayo itanga umusaruro utubutse ndetse n'umukamo ukiyongera.

Ubucuruzi bw'imiti bukunze gukorerwa ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu, ubukora arunguka, nabo bukorerwa nabo bakabona amafaranga, ntabwo twakirengagiza akamaro kabyo mu bihingwa, aho usanga abantu benshi bakunze kuyigura bakagenda bagatera imyaka yabo udusimba ntituyangize.

Imiti igiye iri mu dusashe igomba kuba iri ahantu hagaragara, leta rero yagiye igerageza kuyaca mu rwego rwo gukumira kuba hahungabanywa ubukere cyangwa se kwangirika kw'ibidukikije harimo n'ubutaka, ni byiza rero ko iyo tumaze kuyakoresha tuyatwika tukayashyira ahantu habugenewe.

Umuhinzi iyo arimo arasarura ibihingwa bye aba anezerewe cyane, yihaza mu biribwa ndetse agasagurira n'amasoko, niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga mu byo dukora byose mu rwego rwo kurwanya ubukene ndetse no kubahiriza zimwe muri gahunda za Leta z'iterambere, dushyiremo imbaraga rero tubigire intego.

Ahantu dukunze kurembeka imbuto tugomba kuhitondera cyane, tugomba kurwanya ubusimba bugiye bugaragara mu rwego rwo kwirinda ko ibimera byacu byakangizwa, ahantu rero nk'aha ngaha hagomba kuba hafite isuku kandi hari n'amazi ahagije mu rwego rwo kuhira ibyo bimera.

Ubutaka bw'umukara akenshi burera ntabwo abantu rero bakunze kubimenya ariko burya iyo bigiye byigishirizwa mu midugudu cyangwa se mu bindi bisata by'ubuhinzi, abantu bagenda basobanukirwa neza n'akamaro kabyo, ibi ngibi rero bigaragaza ahantu hameze neza ndetse hakaba hanakizerwa hagashyirwa ibimera cyangwa se ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuhinzi.

Igiti bakunze kwita umwembe ni igiti cyiza cyane kandi gitanga umusaruro, ntabwo umuhinzi yakibagirwa kukicira cyangwa se kugitunganya ndetse no guhangana na tumwe mu dukoko twangiza amababi yacyo. Aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga, tukagishyigikira kandi tukakibungabunga.

Umuhinzi ukorana umurava akunze kubona inyungu nyinshi, aha ngaha tugomba kwirinda ubunebwe, tukazinduka cyane tukagana umurimo ndetse ntitwuve ko hari umurimo runaka uciriritse, ibi ngibi bizatuma imyumvire ihinduka ndetse n'umusaruro ukiyongera ku gihugu no ku baturage.

Imyaka iyo yeze iba igomba gushyirwa mu mifuka, igapakirwa neza kandi igashyirwa ku murongo, aha ngaha rero hagomba kuba hari imbuga nini, iboneye kandi itunganye, ibi ngibi bituma imyaka itangirika cyangwa se ngo ibyonnyi bibe byayigeraho ku buryo bworoshye.

Ibimera iyo bimaze kwera neza dukunze kubijyana mu ruganda bakabitunganya, bigasohoka bipakiye neza mu mifuka kandi biri ku murongo, aha ngaha rero tuba tugomba gushyiramo imbaraga tugasukura ibyumba ndetse n'ahantu bizabikwa tukahatunganya.

Ibitoki bigiye bifite amoko agiye atandukanye, aha ngaha twavugamo nk'injagi, karamasenge n'ibindi bintu bakunze kwita ngo ni indaya, ibi ngibi byo birororoka cyane ntabwo umuhinzi ukora urutoki ajya agira ikibazo cy'ubukene, inzara cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Ubwiza bw'ibimera dukunze kubibona bukiri butoya, aha ngaha twavuga nka bimwe mu bimera birabya, aho usanga indabo zabyo zigenda zikurura abantu. Aha ngaha rero rwose tugomba gushyiramo imbaraga, tugashyiramo ifumbire, tugashyiramo imvaruganda n'imborera mu rwego rwo kubishyigikira ndetse no gukura neza.

Ubuhinzi bw'ibigori bukunze gushyigikirwa cyane. Akenshi bukorerwa ahantu hari ikiyaga, mu rwego rwo kuhira ndetse no guhangana n'igihe cy'izuba. Ntabwo twakwirengagiza agaciro kabyo n'akamaro. Ibishishwa byazo bikunze kugaragara ahantu hagiye hatandukanye aho bimwe bivamo ifumbire ndetse bakanabisasesa urutoki.

Imbuto y'ibigori iyo imaze kuma usanga abantu benshi bayizirika mu rwego rwo kurinda kuba byagwa cyangwa se byakangirika. Aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga tukabisarura hakiri kare, maze umusaruro tukawugeza ku isoko ndetse tutajyanye tukagerageza no kwihaza mu biribwa mu rwego rwo guhangana n'imirire mibi.

Ibimera bigiye biri ahantu hagiye hatandukanye, hari imirima duhingamo imyaka, hari mu rugo, ndetse no mu mapariki, ibi ngibi rero bituma igihugu gikomeza gushyiramo imbaraga, mu kubungabunga ibidukikije, ndetse no gukomeza guteza imbere uyu muco mu baturarwanda bose.

Ahantu hagaragara ibimera tuba tugomba kuhagirira isuku ndetse tukanahitondera, ibi ngibi rero bituma dushyigikira gahunda ya Leta yo kurwanya ba rushimusi n'abandi bantu bashobora kubyangiza, tukirinda gutwika amashyamba, ndetse n'ibindi bikorwa byose bigaragazwa ko hatitawe kuri ibi bintu runaka.

Ahantu dutuye tuba tugomba byibuza kuhatera insina. Umuntu aravuga ngo nutema igiti kimwe ujye utera bibiri. Natwe nujya urandura insina imwe cyangwa nujya utema igitoki, ujye wibuka gutera n'indi mu rwego rwo guhashya imirire mibi ndetse n'izindi ndwara zituruka kutabona ibiryo bihagije.

Ishyamba rifite ibiti by'inganzamarumbo, burya rikunze kudufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Akenshi dukunze kuvuga ko habamo inyamaswa zishobora kutugirira nabi, ariko tukirengagiza akamaro ibiti bikunze kuduhereza, nko kubona imbaho, ibicanwa nk'amakara, ndetse ibyinshi bikunze no kuramvurwamo impapuro dukoresha turi kwiga, cyangwa se twandikaho ibintu runaka.

Gushyigikira ibimera ni urwego rwiza rwo kugaragaza ubushake bw'iterambere, ahangaha leta igenda ishyiraho ingamba mu rwego rwo kubishyigikira ntabwo twakwirengagiza ahantu hari ibishanga hakunze kugaragara ibimera byinshi ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye bikura neza kuko haba hari amazi.

Ibiti bigiye biteye ku gasi, bikunze gutanga umusaruro. Harimo ibivamo imbaho, ibiryo by'amatungo ndetse n'impapuro. Ntabwo twakirerengagiza akamaro kabyo rero. Tugomba kubishyigikira tukabitoza abantu ndetse bagakurana n'umuco kumenya ko ibitari ingenzi mu buzima bwacu.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze guterwa ku rugo mu rwego rwo kurushyigikira ndetse no kwirinda ibyonnyi ariko ntitwakirengagiza n'urutoki, ni igihingwa cyane gikunze kuboneka mu nshe zigiye zitandukanye, aho gikunze gukemura ibibazo bimwe by'abaturage nk'ubwisungane mu kwivuza kuko bijyanwa ku masoko umuntu wabihinze akabona amafaranga.

Iyo urutoki rugitangira abantu nta cyizere baba bafite gikomeye cyane ariko uburyo rugenda ruzamuka na cyo ni igitangaza, ntabwo umworozi muhinzi agomba kugira ikibazo cy'uburyo ashobora gufatamo ibihingwa bye neza cyane cyane ko aba agomba kumenya uburyo abifumbira ndetse akanabyitaho mu buryo budasanzwe.

Inyanya zagiye zigaragazwa n'abashakashatsi ko zikunze kwitabwaho neza, ariko ibi ngibi bigaturuka ku muhinzi. Bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, ni yo mpamvu n'isoko riba rigomba kuba rinini kandi rikaba rigari, mu rwego rwo kurinda kuba zakangirika, cyangwa se umusaruro wazo ntugerwe n'ahantu hose.

Ibimera bikunze kugaragara ahantu henshi, ubutaka rero burimo biba bigomba gufatwa neza kuko ni ibintu bidukikije, abenshi rero usanga batakunze kubyitaho cyane kuko batarasobanukirwa akamaro kabyo, harimo ibivamo ibiryo by'amatungo ndetse n'imiti yayo.

Abagore n'abagabo baba bagomba gushyigikira ibimera byabo, aha ngaha twavuga nk'ibishyimbo bakunze kwita mu shingiriro, aho usanga umuntu atera ibiti mu murima maze bikagenda bizamukiraho bigakura, ibi bishyimbo iyo bimaze kwera bitanga umusaruro mwinshi ugereranyije n'ibisanzwe.

Amasoko mato mato, ni ho hakunze kugaragara ibitunguru. Ariko rero ntabwo twakwirengagiza ko hagomba kuba hari n'umunzani wo kubipima mu rwego rwo kutibwa. Haba ku ruhande rw'umucuruzi ndetse no k'ucuruzwaho. Ibi ngibi rero bituma abantu bose bagira icyizere, ndetse bagashishikarira no gukora umurimo wabo w'ubuhinzi banezerewe.

Ibimera bigiye bitandukanye nk'imboga n'imbuto, ni ibintu bigomba gutezwa imbere kuko akenshi mu bwoko bw'ibiryo bikunze gushyirwa mu birinda indwara, aha ngaha rero ibiryo bigaragayeho imboga biba bigaragaza ko umuntu urimo arabifata asobanutse ndetse ndetse bikorohereza n'igogora.

Karoti ni zimwe mu mboga zigaragara neza kandi zigira akamaro. Abantu bafite ubuhumyi cyangwa se babona ko bari mu byago byo kuba bazabugira, bashishikarizwa gufata zino mboga. Aha ngaha rero twazihinga mu rugo nko mu turima tw'igikoni ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ibitunguru bikunze kugaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye. Abenshi babikundira impumuro yabyo ariko ibyinshi ni n'umuti w'amaso. Aha ngaha rero tugomba kubifata neza ntitubyangize. Kandi tugakora uburyo bushoboka bwose tukabigeza n'ahantu bitari.

Amasoko mato mato niyo akunze kugaragaraho ubucuruzi bw'imbuto. Ayangaya tuyasanga mu bice bigeye bitandukanye by'igihugu, yaba mu bice by'icyaro ndetse no mu migi. Ahangaha rero ntitwakirengagiza akamaro kabyo, kuko abantu benshi barahahira bakabona ibibatunga ndetse n'imirire mibi ikarangira.

Iyo tumaze gusoroma imboga tuba tugomba kuzishyira ahantu heza, aha ngaha natanga urugero nka dodo, ntabwo tugomba kuzishyira ahantu hose habonetse mu rwego rwo kwirinda imyanda cyangwa se isuku nkeya, ni byiza rero kuzitunganya neza tukazishyira mu ibase cyangwa se mu ndobo tukibuka no kuzironga.

Ibimera bigiye bitandukanye, bifasha abantu cyane. Aha ngaha twavugamo nk'imiteja. Ikunze gushyirwa ku bishyimbo cyangwa se igakarangwa ukwayo kuko abantu benshi barayikunda, bakavuga ko n'isupu yayo iryoha cyane. Ibi ngibi rero bituma tugomba kubyitaho, tukabyuhira ndetse tukagerageza no kubigirira isuku igihe turimo turabiteka.

Ibimera bikunze kuba biri ahantu heza kandi hagaragara. Aha ngaha twavuga nk'ahantu imbere y'urugo cyangwa se mu mirima runaka. Ni byiza rero gushyiramo imbaraga, tukabyitaho, tukabibagarira tukanabyufira. Ni gute ushobora kuvuga ngo urashaka umusaruro utubutse, utakoze ibikorwa nk'ibi ngibi byo kuhira cyangwa se ngo ukomeze ubyicire mu rwego rwo guhangana n'ibindi bizazane bishobora kwangiza ibimera byawe?

Uruzitiro rw'amatafari rukunze kuba rufite ibintu by'ibyatsi bigiye birukikije ku ruhande. Harimo ibimera bigiye bitandukanye, aho bimwe muri byo usanga bitanga umusaruro ndetse n'imiti ku matungo ndetse no ku bantu. Ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko bikunze gutanga n'umwuka abantu bahumeka.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze kuba biri ahantu hagaragara cyangwa se hihishe, bimwe tubisanga mu ngo z'abantu nk'abantu aho usanga barubatse uruzitiro mu rwego rwo kubirinda kwangizwa n'ibintu byaturuka hanze cyangwa se ibindi biza. Ibingibi rero tugomba kubishyiramo imbaraga tugashyigikira ibimera byacu kuko nabyo ni ibidukikije.

Imbuto zigiye zitandukanye zikunze kuboneka ku masoko mato mato, aha ngaha twavugamo nka beterave, indimu, ibinyomoro ndetse n'amacunga n'imyembe, ibi ngibi rero bikunze kugaragara ahantu hagiye hatandukanye ndetse no mu mijyi dukunze kubihaha cyane.

Iyo inyanya zirimo zirahingwa, ziba zigomba gusasirwa. Aha ngaha rero ni ho hakunze kuba hari imbaraga nyinshi cyane, kuko ugenda usesekamo ifumbire hagati yazo, maze na zo zigakora neza kandi zizihiwe. Nigute ushobora kuvuga ngo urashaka umusaruro utubutse, udashyiramo imbaraga nawe mu kuzibungabunga no kuziteza imbere, uzirinda kwangirika cyangwa se ngo uzitere umuti, zitaza kwangirizwa n'utundi dusimba tugiye dutandukanye tuza mu butaka.

Indabo iyo zibungabunzwe neza zikunze gutanga umusaruro. Aha ngaha tuzikoresha tuzengurutsa ubusitani bwacu, aho usanga buri muntu wese ubifite murugo agerageza kuzitaho, reka dufate nk'urugero nko mu gihe cy'ubukwe aho usanga abantu bagenda bakodesha ubwo busitani kugira ngo bahakorere ibirori bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukunze kugaragara mu Majyaruguru cyane, abantu babukora usanga bariteje imbere nta kibazo cy'imirire bagira cyangwa ikindi kibazo cyo kuba bakishyura nk'amafaranga y'ishuri, aha ngaha rero bakunze gukoresha ubuhinzi bugezweho cyangwa se n'izindi mashini zifashishwa mu rwego rwo kwiteza imbere.

Imboga n'imbuto bikunze kugaragara mu masoko matoya, aha ngaha rero nko mu mijyi usanga tubibona mu mabutike agiye atandukanye cyangwa se mu maguriro ntabwo twakirengagiza akamaro kazo cyane cyane amavoka, amatunda, inyanya ndetse n'ibinyomoro kuko ibi ngibi byo biranahendutse cyane.

lmbuto zikunze kuba ziri ahantu hagaragara, ntabwo zikunze kwangizwa n'abantu babonetse bose, ni ibintu byiza rero, ibi ngibi bituma imirire mibi igenda irwanywa kandi ntihagire n'umuntu wundi ushobora kuba yavuga ngo ibi bintu ntabwo bihwitse, ni byiza rero kumenya igikwiye ndetse no kuzishyira ahantu hagaragara kandi haboneye.

Uburyo bwo kuhira bwa kijyambere, bukomeje gutezwa imbere muri rubanda. Abantu benshi bakundaga guhangayika, iyo cyabaga ari nk'igihe cy'izuba kuko bajyaga bibaza uburyo bazaza bafumbira imyaka yabo ndetse bakanayuhira. Ibi ngibi rero Leta yarabikemuye, aho yazanye imashini za kijyambere, zifasha mu kuhira.

Guca amatarasi y'indinganire, bikunze kugaragara mu buhinzi cyane. Ibi ngibi birwanya isuri, ndetse n'ubutaka ntibube bwatembanywa n'amazi mu gihe cy'ibiza. Ibi kandi byongera umusaruro. Kuko usanga abantu bakora bino, baba bazi gukoresha uburyo bwa kijyambere bw'ubuhinzi, mu ngeri zigiye zitandukanye.

Abana baba bagomba kuba bari ahantu bitaweho ntibashyirwe mu kigunda cyangwa se mu rindi shyamba. Mu rwego rwo kubarinda rero, tugomba kwita ku burere bwabo. Tukabashyira mu mashuri, abarezi, bakabimenya kandi ibi ngibi bituruka ku bufatanye mu mpande zombi, ndetse tutibagiwe n'inshingano z'ababyeyi.

Iyo ibihingwa bititaweho birangirika, cyangwa se ntibinakure, aha ngaha nko guhinga ahantu ho mu kabande, ntabwo ibimera bikunda kuhakunda cyane, usanga haragiye hazamo utuntu tumeze nk'utuye, bimwe bikagenda byangizwa n'amabuye, ibindi bikicwa n'ibintu bigiye bitandukanye, nk'inyamaswa aho usanga biziribata.

Umurambi ugaragara neza uhinzeho ibimera bijye bitandukanye, bateyemo amatarasi y'indinganire, aho ibi ngibi bigenda birwanya isuri ndetse mu gihe cy'umwuzure cyangwa se imvura nyinshi bikaba bituma imyaka itatembanwa n'amazi, ibi ngibi rero bituma ibihingwa bimererwa neza.

Imyaka iba igomba guhingwa ahantu hizewe kandi hagaragara ko hari ubutaka bwiza, ibi ngibi rero dukunze kubibona mu nce zo mu cyaro.

Ubworozi bw'amatungo magufi n'ihene bukunze gukorwa n'abaturage bagiye batandukanye, aha ngaha rero iyo umaze kubyazamo imwe nawe ugomba koroza mugenzi wawe na we akagenda yikenura akikura mu bukene. Iri tungo rero rikunze gutanga ifumbire nyinshi cyane kuko abantu benshi bamaze gusobanukirwa n'akamaro kayo.

Ubworozi bw'ingurube bukunze kugira akamaro kanini cyane, aho abantu bazitunze bikemurira ibibazo bigiye bitandukanye nk'iby'ubwisungane mu kwivuza, mu gufumbira imyaka yabo ndetse n'umusaruro ukiyongera, ibi ngibi rero bituma ubukene bugenda bugabanuka cyane cyane mu nce zo mu cyaro.

Ubworozi bw'inka bwagiye bugira akamaro cyane kandi bufasha abantu. Aha ngaha rero iyo zitaweho zitanga umusaruro utubutse, zigafasha abantu mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye harimo n'ikibazo cy'imirire mibi. Nta mwana utunze inka ujya ugira ikibazo cya bwacyi, cyangwa se umuntu mukuru ngo agire ikindi kibazo giturutse ku mirire idahwitse.

Abaturage iyo bagiye borozwa ingurube bikunze kubagirira akamaro. Ahangaha ntabwo twakirengagiza agaciro kazo n'akamaro zikunze kugirira abaturage, abazoroye babona amafaranga, babona inyama. Nta hoteri nimwe utasangamo ingurube kuko abantu benshi bakunze kuzita ngo ni misaya myiza cyangwa se indyoheshabirarayi.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, aho usanga rikunze gutanga umusaruro, ariko hari n'izinyagasozi dukunze kwita ngo ni amasatura, akenshi atatugirira akamaro cyane, ibingibi rero bituma twifashisha izgizi zo mu rugo, tukaziyitaho tukazishakira ibizitunga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ntabwo tugomba kuzangiriza nazo.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukunze gukorwa cyane, aha ngaha twavuga urugero nk'inka, aho usanga abantu bazitunze babona umukamo mu gihe zabyaye ndetse zigatanga n'ifumbire ituruka ku mase, ibi ngibi rero bituma ubona ubworozi bushyigikirwa cyane nko mu nce zo mu Mutara.

Korora ingurube za kijyambere byashyizwemo imbaraga cyane, ntabwo abantu bari bazi agaciro kabyo ariko bagenda basobanukirwa gake gake, umuhinzi rero uzitunze akunze kuzitaho kandi bimusaba imbaraga nyinshi kuko burya zirya ibiryo byinshi bihagije.

Inkoko ntabwo zigoye kuzorora, akenshi ziritorera ariko ibi ngibi bisaba no kwitonda kuko hari bimwe mu bisimba nk'agaca usanga bizigirira nabi cyangwa se bigirira nabi abana bazo, ndavuga abashwi ntabwo tugomba kwirengagiza ko kuzorora ari kimwe ariko no kuzicungira umutekano ari ikindi.

Inka iyo ititaweho ntabwo itanga umusaruro utubutse, abantu rero batuye mu mijyi baba bagomba gufasha abo mu cyaro bakaba baboherereza nk'amafaranga yo kugura ibizitunga, ibi ngibi rero bizatuma umukamo wiyongera, ndetse n'ibigera ku masoko bikabonwa n'abantu bose atari igice kimwe gusa.

Ihene ni itungo rigufi ritanga umusaruro kandi nta nubwo rigorana kuryorora, aha ngaha usanga ifumbire yaryo ihenze cyane, bakunze kuyiminjira mu mboga kuko ihita ituma zikura vuba vuba, ibi ngibi ntabwo twabyirengagiza nko mu bishyimbo cyangwa se no muri za sereri n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Inka ni itungo rikunze kororerwa mu rugo, ahangaha rero rikunze gutanga umusaruro harimo ifumbire ndetse n'amata. Nta muntu uyoroye utunga abana barwaye bwaki cyangwa se ngo bagire izindi ndwara zituruka ku mirire mibi. Ibi ngibi rero bituma hashyirwamo imbaraga ndetse na leta ikazana gahunda ya Girinka Munyarwanda.

Amatungo magufi nk'ihene akunze gutanga umusaruro, umuhinzi, umworozi uyatunze ntabwo bimugora cyane kandi usanga amuhereza akamaro kagiye gatandukanye, aho usanga abona ifumbire ndetse n'amafaranga akabasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Korora ingurube bikunze gushyigikirwa cyane. Aha ngaha rero ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo. Ziroroka ku buryo buhagije, aho usanga zibwagura ibibwana nk'icumi ndetse umuntu ubitunze akagenda abona amafaranga gake gake, ntagire ibibazo by'ubuzima.

Ibiti byarembetswe mu mashashi cyangwa se byavuye muri pipinyeri bikunze kugaragara neza, aho usanga byarakuze neza nta kintu cyabyangije, iyo bitangiye gukura rero turagenda tukabifata tukabitera ahabugenewe, ibi ngibi bituma dukomeza kubyuhira ndetse no kubyitaho.

Hari uburyo bwinshi bwo gutuma imiti bikura neza, nko kuba umuntu yabishyira mu masashi. Ahangaha rero bishyizwemo bisabwa kuhirwa neza cyane, tukirinda kubyicisha izuba ryinshi. Ibi ngibi bituma ibiti byacu bikura neza ndetse mu gihe cyo kubitera, byaba byabonye ubutaka byiza bigakura cyane bikavamo ibiti by'inganzamarumbo.

Ahantu hakunze kurembekwa imyaka hakunze kuba ari ahantu heza kandi hagaragara. Ibi ngibi rero bituma abantu babikora binjiza amafaranga kandi bakabona n'umusaruro. Ibi ngibi rero bisaba igishoro kitari gitoya yaba ku muhinzi cyangwa se ku muntu wese ubikora. Ibi ngibi rero bisaba ko ubikorera ahantu hitaruye hagaragara kandi hatangizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose kibonetse mu rwego rwo kurinda ibihingwa byabo.

Amacunga ni ubwoko bw'imbuto buterwa mu bantu, haba ku rugo cyangwa se n'ahandi hantu, ibi ngibi rero bikunze kugaragara mu nce z'Iburasirazuba ndetse n'Amajyaruguru, ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo kuko akunze gutanga umutobe uryoha.

Ibitsina bigiye bitandukanye bikunze kwitabira ubuhinzi, ntabwo ibi ngibi bireba abagabo cyangwa abagore gusa yaba urubyiruko ndetse n'abandi bantu babifite mu nshingano baba bagomba kubikora, aha ngaha Leta ishyiramo bije nyinshi cyane mu rwego rwo gushyigikira iki gikorwa.

Inka iyo imaze kubyara abantu benshi barishima cyane kuko ibibondo bitangira kubona umukamo, aha ndavuga nk'amata y'umuhondo, aho yifashishwa mu kurwanya bwaki ndetse n'ibindi bibazo bituruka ku mirire mibi, ntabwo twakwirengagiza ifumbire yayo ariko ibingibi bikorwa cyane cyane ahantu hari ince z'icyacyaro, ahantu dukunze kwita ngo ni mu giturage.

Hari inka zagiye zigaragara mu rukari bakunze kwita inyambo. Ntabwo wapfa kuzibona ahantu hose zikunze kuba zifite amahembe manini cyane ugereranyije n'izisanzwe, ariko umukamo wazo ntabwo ukunze kuba mwinshi cyane ugereranyije n'izindi za kijyambere twita izi nzungu.

Ibimera bigiye bitandukanye nk'indabo bigira akamaro cyane. Harimo abazikoresha rimwe nk'umutako abandi bakazikoresha nk'imiti cyangwa se bikaba ibindi bintu byiza bigaragaza ahantu nyaburanga. Ubu buhinzi rero bugomba gushyigikirwa cyane ndetse na leta ikabishyiramo imbaraga.

Hari inyamaswa zimwe na zimwe zikunze kwibera mu biti, akenshi usanga ari inyamahoro cyane kuko ntabwo zijya zijya kwangiriza abantu, zikunze kugaragara muri pariki ahantu hari ibiti birebire ndetse n'ahandi hantu hakunze kuba hari ibimera bishimishije mu rwego na zo zo kwirwanaho, izi ngizi zishyirwa mu bwoko bw'indyabyatsi.

Inyamaswa z'inyagasozi dukunze kuzibona ahantu hagiye hatandukanye nko mu mapariki. Ahangaha natanga urugero nko muri pariki y'Akagera, aho dukunze kubonamo impara n'imparage zikaba ari inyamaswa zigira amabara meza cyane y'umukara n'umweru. Ba mukerarugendo barazishimira ndetse bifuza no kuzifotora cyane.

Inyamaswa zikunze kugaragara mu biti twavugamo nk'inkende, umunyarwanda yaravuze ngo ku munsi wazo ibiti biranyerera. Aha ngaha ndavuga urupfu, ariko ibi ngibi ntabwo bigomba kuba byakifashishwa mu kuba zahungabanyirizwa umutekano cyangwa se ntizibungabungwe nk'ibindi binyabuzima cyangwa se izindi nyama...

Mu biguruka tugiramo n'inyoni. Aha ngaha rero zikunze kugenda zikibera mu biti zikarikamo, tugomba kwirinda gutema ibiti inyoni zarikamo mu rwego rwo gutuma zororoka, kuko ahantu henshi ku Isi zisigaye ari hake cyane, ibi ngibi bizatuma dukomeza mu kubungabunga ibidukikije.

Inyamaswa bakunze kwita udusumbashyamba, ziboneka muri Pariki y'Akagera. Ntabwo izi nyamaswa wapfa kuzibona ahantu hose hagiye hatandukanye. Ibi ngibi rero bituma ba rushimusi bakumirwa cyane ahantu ziri. Ntabwo twakwirengagiza agaciro kazo aho zikurura ba mukerarugendo maze igihugu kikinjiza amadevize.

Inzoka ni inyamaswa iteye ubwoba cyane, abantu benshi barayitinya bitewe no baba batinya ko ibaruma ikabasigamo buriya bumara bwayo bukarishye, ibi ngibi rero bituma abantu aho bayibonye bayica ariko ntabwo ibi ngibi biba bikwiye kuko nayo iri mu nyamaswa zikikije abantu kandi igomba gufatwa neza aho igomba kujyanwa mu maparike.

Inyoni zo mu kirere zikunze kugaragazwa n'amabara meza nk'umutuku cyangwa se umukara. Aha ngaha iyo ugeze mu maparike biba urundi rwego. Ntabwo rero tugomba kuzigirira nabi. Aha ngaha twavugamo n'inkoko cyangwa se inuma n'inkware, na byo bikunze kugaragara mu gasozi.

Amafuku hari ayakunze kuba yibera mu biti cyane, ntabwo ari byiza kuyagirira nabi cyangwa se ngo tuyice, ni byiza rero no kuyabungabunga nayo nk'ibintu bidufitiye akamaro kandi bidukikije, akunze kugirirwa nabi rero aho abantu bagenda bakayaroba ugasanga barimo barayangiza, kimwe n'izindi nyamaswa bita ngo ni inshombabyuma.

Inyamaswa bakunze kwita inkende cyangwa se inkobe, zikunze kuboneka muri pariki y'Akagera. Aha ngaha rero barushimusi baba bagomba kurwanywa ndetse hakarindwa n'abandi bantu bose bashobora kuba bazigirira nabi. Ni yo mpamvu usanga haragiye hubakwa inzitiro z'amashanyarazi kugira ngo na zo zitarenga parike ngo zigere hanze mu baturage zonone imyaka yabo.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikunze kugaragara muri Pariki nk'Akagera, aha ngaha twavugamo inkende n'inkobe, aho izi inyamaswa zikunze kwibera mu biti ndetse umunyarwanda akaba yarakurijeho umugani uvuga ngo ku munsi w'urupfu rw'inkende ibiti byose biranyerera, ariko ibi ngibi ntitugomba kubyitwaza kugira ngo tube twazangiza cyangwa se twazihemukira.

Ingagi ni inyamaswa igaragara neza kandi y'inyamahoro, zikunze kuboneka muri pariki zo mu birunga, ibi ngibi bituma ba mukerarugendo bayigana, bakagenda binjiza amadevize, ndetse n'abantu bahaturiye usanga barateye imbere cyane biturutse ku bukerarugendo bwazo.

Inyamaswa zo mu gasozi tuba tugomba kuzibungabunga kandi tukazirinda kwangizwa n'ibintu bigiye bitandukanye, aha ngaha rero tugomba kurwanya ibikorwa bya ba rushimusi, aho usanga batwika amashyamba zigiye ziherereyemo, kandi ntitwakirengagiza akamaro zikunze gufatira igihugu cyacu.

Mu rwego rwo gushyigikira ubutaka bwacu, tuba tugomba guteraho ibiti n'ibindi bimera bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero bituma budatengurwa n'imivu cyangwa se ibindi biza, bishobora kuza bikaba byatwangiriza. Aha ngaha tugomba gushyigikira ubutaka bwacu, tubushyigikira mu ngeri zose.